Umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga bamwambitse cyangwa se bamworoshe ishuka isa ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari mu ibagiro azengurutswe n'abaganga bane.

Abaganga bambaye bifunze rwose bari kwita ku murwayi bisa nk'aho arembye cyane, bari kumwitaho bose mu cyumba cyabugenewe.

Inzu yubatse neza ifite urugi rusize irangi ry'ubururu, imbere yayo hakaba hari imbaho ebyiri zicayeho abaturage ziganjemo abagabo numugore umwe, hakaba harimo n'abakozi ba croix rouge bambaye ibirango by'umuryango.

Urubyiruko cyangwa se abantu bari hamwe bambaye imyambaro nk'ikirango cy'umuryango utabara imbabare gishinzwe gutanga amaraso bicaye baganira.

Icyumba kinini kirimo abagabo bayobowe n'umwe muri bo uri kubabwira cyangwa se kubaha ubujyanama, yambaye neza ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'urubaho bamwe bafite inkweto zisa kandi z'umweru, umwe muri bo ni umugore afite ikayi, umwegereye ni umusore na we afite ikaramu mu ntoki, harimo kandi n'umugabo wambaye ijire y'umutuku.

Umusore uryamye mu gitanda cyo kwa muganga, nta kintu yiyoroshe gusa yambaye imyenda isa umukara, nta kindi kintu kigaragara uretse icupa ry'amazi afite.

Icyumba cyagenewe kwakira abarwayi cyangwa se indembe, kirimo umuganga, wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, bigaragara yuko ari kwita ku murwayi.

Abantu bambaye imyenda isa, bari imbere yumuntu wagize ikibazo biragaragara y'uko bari kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Abagabo batatu ndetse n'umudamu umwe, bicaye mu cyumba, bigaragara yuko bari mu nama cyangwa se barimo baganira, iruhande rwabo hari ameza ateretseho amazi bari kunywa.

Abantu bari mu cyumba kimwe bahuze rwose, harimo abambaye imyenda itukura, ndetse n'ibirango by'umuryango utabara imbabare.

Urubyiruko rurimo rutunganya kubona icyondo cyo kubakisha, rwambaye imyambaro itukura bigaragara yuko bari mu muryango utabara imbabare, iruhande rwabo hateretse amajerekani.

Urubyiruko ruri hamwe rwicaye harimo abambaye impuzankano, bari hamwe baganira bigaragara yuko bari guhabwa amahugurwa cyangwa se ubujyanama ku ngingo zitandukanye.

Icyumba kinini cyisanzuye cyane, giteguyemo intebe, harimo n'ibikapu ariko bifunze. Harimo kandi n'ibitanda bitaryamyeho abarwayi, gusa hahagazemo abantu babiri bari kubitegura, bigaragara ko hari igikorwa kigiye kuhabera.

Abagabo bari hamwe ndetse harimo n'umugore umwe, bari imbere y'imbangukiragutabara, imodoka izwiho gutwara abarwayi, bameze neza, bakikijwe n'ibiti bisa neza.

Umugabo wicaye mu modoka, yamanuye ikirahure k'imodoka bigaragara ko yifotoza, kandi yafunze igipfunsi imodoka yo irahagaze.

Umugore n'umugabo bari mu cyumba kimwe, bigaragara yuko uyu umwe muri bo, ari guhabwa ishimwe ry'uko yakoze neza, bari guseka barabyishimiye.

Abantu benshi bari mu cyumba kigari kimeze neza bicaye batuje barimo baganira, bayobowe n'umudamu ubari imbere.

Icyumba kirimo abantu bakuze bayobowe n'umugabo umwe ubari imbere, bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye barishimye bameze neza.

Abantu biganjemo urubyiruko rw'abasore b'abakobwa n'abahungu bari hamwe bishimye, bigaragara yuko baje kwaka serivisi ku bitaro.

Abaganga batatu bambaye imyenda y'akazi n'udupfukamunwa bateze n'ibitambaro ku mutwe bakaba bari mu cyumba aho basuzumira abarwayi indwara zitandukanye baje kwivuza kugira ngo babashe guhabwa imiti ihuye n'uburwayi bwabo, bakaba bahagaze hamwe ku murongo kandi bose bafite amaboko arambuye, umusore yashyize mu mifuka, undi we yayarambuye gusa ari ku matako ye, undi yabafasheho.

Umuganga ari mu cyumba ndetse ari kumwe na mugenzi we, akikijwe n'ameza ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Abantu bicaye mu cyumba cyisanzuye ariko bigaragara ko ari kwa muganga, hari umugore wunamye wubitse umutwe mu biganza bigaragara ko atameze neza ahubwo arwaye.

Kwa muganga hanze hakaba hari intebe zicayeho abarwayi batandukanye harimo umugabo n'abagore babiri bafite abana batoya, bakaba baje kubasuzumisha batwaye n'ibipande byabo barimo babihereza umuganga kugira ngo abakire ababasuzumire.

Urubyiruko rwizihiwe se rwishimye cyane, rwambaye impuzankano hejuru itukura bigaragara y'uko bishimye.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo ababyeyi b'abagore, n'abagabo. Harimo n'umuganga bigaragara yuko ari guha serivisi aba badamu.

Umusirikari ahagaze imbere y'abantu, nta ngofero yambaye. Imbere ye hari undi mugabo wambaye ishati y'amaboko, wambaye n'agapfukamunwa. Inyuma yabo hari abaturage benshi, bose barahagaze barareba mu cyerekezo kimwe.

Mu nyubako nini inzu mberabyombi yicayemo abantu batandukanye bari mu nama bafite insanganyamatsiko igira iti: "Rubyiruko kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bwanyu", barimo batanga ikiganiro abayobozi bicaye imbere ku ntebe ku meza hagiye hariho amacupa y'amazi bari kugenda banywa kugira ngo batuma mu mihogo.

Kwa muganga mu cyumba ku gitanda aho igitanda ari cyonyine kitariho umurwayi n'umwe kandi iruhande rwacyo hakaba hari intebe, ahagana ku mutwe imbere yacyo hakaba hari izindi ebyiri z'umukara zegereye akabati na zo ziticayeho umuntu.

Ku bitaro ahagaze abantu batandukanye kandi hakaba higanjemo abagabo n'abagore, bose bambaye imyenda y'akazi abandi bambaye n'ingofero zibafasha kwirinda kugira ngo hatagira ikintu kibangiza mu mutwe, bose bakaba bambaye inkweto zifunze.

Mu cyumba k'inama rusange ahateraniye abantu batandukanye higanjemo abayobozi bicaye imbere kandi ku ntebe zegamirwa hakaba hari ameza ariho amacupa y'amazi, nyuma yabo hagaze undi mugabo uyoboye ikiganiro bari mu gikorwa cyo kumenyesha urubyiruko amakuru yerekeye ubuzima bw'imyororokere kuko ari inshingano zarwo.

Abakobwa bambaye amatabuririya y'icyatsi kibisi n'amataratara, bafite imisatsi isokoje neza, bambaye n'udupira tw'umweru, bambaye na ga mu ntoki, bafite ibipimo bapimiramo ibizamini bafashe abarwayi kugira ngo bamenye uburwayi butandukanye bagiye bafite mu mibiri yabo babashe kubaha imiti yo kubavura.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari mu cyumba kimwe, imbere yabo hari ibikoresho bigiye bitandukanye, barasa neza bigaragara yuko bari kwiga amasomo.

Icyumba gitangirwamo ibizamini byo kwa muganga, kirimo imashini nyinshi zifashishwa muri ubwo bushakashatsi, harimo imiti iri mu dukarito ndetse n'izindi mashini zitandukanye.

Abana batoya bambaye imyenda isa cyangwa se impuzankano, bari mu cyumba cyo kwa muganga, barimo bakora isuzumabumenyi cyangwa se imikoro.

Abaganga babiri bari mu cyumba bambaye agapfukamunwa, barimo basuzuma kuko iruhande rwabo hari ibikoresho byo kwa muganga.

Umuganga ugaragara mu myenda isa icyatsi kibisi, yambaye n'intoki, iruhande rwe hateretse ibikoresho bikoreshwa kwa muganga harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Kwa muganga mu cyumba aho basuzumira ibizamini bafashe abarwayi, hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru mu ntoki, afashe igipimo arimo asuzuma ibyo avuye gufata, abaje kwivuza arebe uburwayi bafite, abashe kubaha imiti yo kubavura.

Abana cyangwa se urubyiruko ruri mu imenyerezamwuga rwambaye imyambaro yera rurimo ruganira ku byo rurimo rwiga.

Umubyeyi uhetse umwana ndetse akaba afite undi mu ntoki uri kwigenza, baragenda mu muhanda berekeza kwaka serivise kwa muganga.

Umudamu usa neza twakwita umuyobozi, mu ntoki afite indangururamajwi ntoya, bigaragara yuko ari gutanga ikiganiro ku byerekeye ubuzima.

Abantu benshi bicaye mu kidari imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki bisa nkaho ari kubagezaho ijambo, bose baramukurikiye kandi bamuteze amatwi.

Ihuriro ry'abantu bigaragara yuko bari kwaka serivisi za Leta, umugabo arimo aha umwana umuti twamugereranya nk'umuganga.

Ababyeyi bicaye hamwe bambaye imipira y'ibara ry'ubururu, barishimye buri mubyeyi aranezerewe, bateruye abana batoya abo twakita impinja, barishimye bari guhabwa ubufasha cyangwa se ubujyanama mu bijyanye no kurera abana.

Ababyeyi bakuru bari mu cyumba kigari bafashe amasahani mu ntoki, iruhande rwabo hari abana batoya b'inshuke bigaragara y'uko ari mu irerero, barizihiwe barakeye.

Abagabo bakuze harimo n'umusirikari hagati yabo, barimo bishimira abana batoya b'inshuke bambaye impuzankano bigaragara ko bari mu irerero, bishimanye n'abakuru baranezerewe.

Abana b'inshuke bizihiwe bishimye bari kugaburirwa n'umubyeyi bari mu cyumba cyangwa se ishuri aho bahererwa uburezi.

Ababyeyi bizihiwe bateruye abana batoya, abo twakwita nk'impinja, bigaragara yuko baje kwaka serivise kwa muganga.

Ababyeyi babiri bari hamwe bateruye abana bakiri batoya bigaragara yuko aba babyeyi babyaye impanga, abo bana bambitswe imyambaro isa, bavuye guhabwa serivisi kwa muganga.

Umugore afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ari kubwira imbaga nyamwinshi ubutumwa runaka, imbere ye ku kabati handitseho amagambo Isange.

Abantu bari mucyumba kimwe icyumba kinini baricaye baratuje hagati muri bo hahagaze umudamu uri kubaha amabwiriza cyangwa se ubujyanama ku ngingo zigiye zitandukanye cyane cyane iz'ubuzima.

Icyapa kinini gishushanyijeho umutwe w'umuntu cyanditseho amagambo agira ati "isuzume umenye urugero rw'umuhangayiko wawe unyuze ku rubuga rwacu".

Icyumba kigari kirimo ababyeyi, abagabo ndetse n'abamama bari hamwe baje kwa muganga guhabwa impuguro ku buryo bwo kurera abana.

Abagore babiri harimo ugaragara nk'umuganga ari guha ubujyanama uwo bari kumwe, bicaye ku gatebe kagufiya, iruhande rwabo hari inkwi cyangwa se imyase yumye.

Ihuriro ry'abantu bakuze ndetse n'abakiri batoya, bicaye bahuje imitima, bagiye guhabwa ibiganiro ku ngingo zitandukanye.

Inzu yagenewe gucururizwamo imiti, muri icyo cyumba haragaragaramo ubwoko butandukanye bw'imiti, buri hejuru bufunze neza.

ahazwi nko hacururizwamo imiti, ni inzu icururizwamo imiti ifasha abarwayi gukira, harimo ububiko bw'imiti igiye itandukanye hari iri mu macupa mu dukarito dutoya, muri iyo nzu hicayemo umuntu ari gukoresha mudasobwa.

Inzu izwiho gucuruza imiti, baragaragaza ububiko mu kabati bw'imiti. Harimo umukobwa uri gukuramo udukarito tw'imiti igiye itandukanye.

Ibinini bigiye biri mu dushashi dutandukanye ni ibinini bidasa kuko bimwe bisa umutuku ibyinshi muri byo bisa umweru kandi hari n'ibiri ku gashashi bisa umukara.

Inzu y' ubucuruzi igaragaraho imiryango ibiri bigaragara yuko batangiramo serivisi z'ubucuruzi, iyi nzu igizwe cyangwa se yubatswe n'amatafari y'impunyu.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano umwe muri bo w'umuhungu afite icyapa yicaye imbere, icyo cyapa cyanditseho ati "ndi uw'agaciro ndashoboye".

Abantu bari kumwe bahuje umugambi, bafite igitambaro cyanditseho amagambo, bigaragara yuko bari kwamamaza cyangwa se bari gushishikariza abantu runaka, gutambutsa ubutumwa.

Abantu bambaye imipira isa, bahagurutse mu ntebe zabo n'uwambaye ingofero na we yayambuye, bafoye akaboko imbere ubona ko bishimiye igikorwa barimo.

Ihuriro ry'abantu rigizwe n'abagore n'abagabo n'urubyiruko bahuriye hamwe kugira ngo bahabwe ubujyanama, ubufasha mu ngingo zigiye zitandukanye.

Umugore ubinditse imisatsi utwaye agakapu mu ntoki yifubitse kandi agatambaro k'umweru, ari ahantu ku rugo ari gusoroma ibibabi by'umuravumba.

Ibiryo biteguwe neza harimo injanga, ku njanga hariho indimu ndetse n'ibindi binyampeke bigiye bitandukanye, muri ibyo binyampeke harimo n'ubutunguru.

Abantu babiri barimo bategura umuti wa kinyarwanda bawusuka mu isafuriya mbese bawuyungurura, ni umuti usa neza bigaragara yuko uvura.

Umunyabuzima wambaye ikarita y'akazi mu ijosi, akaba yambaye n'umupira ndetse n'itaburiye y'ubururu byombi biriho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima akaba afite ikaramu mu ntoki n'urupapuro, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo baho neza.

Inyubako z'ibitaro ndetse hanze habyo hari imihanda inyuranamo ariko y'ibitaka, hari abantu bicaye imbere ku rubaraza mu bitaro ndetse ku marembo y'ibitaro hari icyapa kigaragaza ko aho hantu ari ku buvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri biryamyeho abantu, bigaragara ko baje gutanga amaraso, hagati yabo hicaye umuganga wambaye itabuririya y'umweru ari we uri kubafasha gutanga amaraso.

Amacupa apfundikije udufuniko tw'umukara bigaragara yuko harimo umuti w'icyatsi kibisi.

Umuganga wambaye taburiya y'umweru, arikumwe n'umumama cyangwa se umubyeyi, umubyeyi arimo arakira imiti.

Ababyeyi bakikiye abana, baricaye ku ntebe hamwe ndetse hari umuganga ubahagaze hejuru ufite ikaye nini mu ntoki. Biragaragara ko bazanye abana babo ku ivuriro kugira ngo babavuze.

Abantu bicaye hamwe harimo umugabo umwe, ndetse n'abadamu babiri, bambaye imyenda isa, bigaragara yuko ari abaganga.

Ababyeyi babiri bari mu cyumba icyo twakwita icyumba gifatirwamo imiti kwa muganga, umuganga arimo yandika bigaragara y'uko agiye guha uyu mubyeyi serivisi z'ubuvuzi.

Umusirikari ndetse n'abandi bantu bambaye imipira iciye amaboko y'icyatsi kibisi bafite umugozi bari gukurura, ni umutako bari gukora kandi uri kubona ko ibyo bari gukora babyishimiye.

Ikigo nderabuzima cyubatswe mu buryo bwa kijyambere gisizwe irangi ry'ubururu ku nkuta ndetse no ku mabati, iruhande rwacyo hari ikigega kibikwamo amazi, imbere y'iki kigo nderabuzima hari ubusitani bwiza, abantu barahari bameze nk'abategereje serivisi.

Abantu bahagaze imbere ku rubaraza rw'inyubako bari kwifotoza bigaragara ko ari abayobozi, umwe afite telefone mu ntoki, undi afite urupapuro ndetse harimo n'umusore muremure wambaye ijiri y'ubururu.

Inzu cyangwa se ikigo nderabuzima cyubatswe n'inzu zisizwe irangi ry'ubururu n'amabati y'ubururu, gikikijwe n'indabo iruhande rw'iki kigo nderabuzima hariho ibiti n'urucaca.

Umuganga arimo asuzuma cyangwa se afata ibizamini by'amararaso umubyeyi, ibyo bizami biri gufatirwa ku rutoki.

Ababyeyi bambaye neza, bateruye abana, bigaragara yuko baje kwaka serivisi z'ubuzima bujyanye n'ubw'abana kwa muganga.